Hari ahantu ushobora kujya ugasanga agasabyebi amafaranga muntoki wenda niba ugiye kwishyura nk'ikibanza runaka, hari ababugenewe rero kugira ngo bayaguyehe bano bicaye mo imbere, uyu musore nuriyamwari ubona ko babakeneye kugira ngo ikuze bayagukure ku ikoranabuhanga hanyuma nawe ayagupfunyikire uyajyane.

Keke ni ingenzi cyane, zishobora kugufata mu nda, igihe ugiye ku kazi mu gitondo uzinkwesheje icyayi, amata, cyangwa se igikoma. Ni byizere rero ko umubyeyi wajya uzipfunyikira umwana we agenda ku ishuri. Izi n'eshatu ziri ku isahane n'agatambaro ko kwihanaguza.

Akenshi bagenda badushishikariza kuba twagura amayinite dukoresheje amapurikasiyo twagiye dushyirwaho n'ibigo bishinzwe itumanaho mu gihugu duherereyemo, rero iyi nayo ni yo iri mu bara ry'umutuku amagambo yandikishije iry'umweru.

Umunsi ku munsi ifaranga rigenda ryurira nk'uko tubizi, hano rero hagaragara ibyiciro bitandukanye, ndetse n'ahagarariye ibihugu, ubwo rero ubaye ufite abanyarwanda waza ukajya, bakuvunjira hano.

Ideni rishobora kugukura mu bintu byinshi bitandukanye, ayo wakaka ushobora kuyatangizamo umushinga wo gacuruza ukagura ibibanza, ukubaka amazu ndetse n'ibindi, ariko ukaba uzaryishyura ndetse uhitamo n'uburyo uzajya ugenda uyatanga mu byiciro nk'uko bigaragara hano rero hari utuntu ufite utuntu tw'umweru twiza cyane uhagararamo ujya kubabwira ibintu runaka

Umumotari inyuma hari igisanzwedu atwaramo ibintu ashyiriye abandi yambaye ingofero mu bindi byago bisana harimo arabikoza amafaranga ajya kumpaha mu ntoki nriya mukobwa wambaye umwambaro w'akazisa umuhondo.